Abantu barindwi begeranye harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo harimo uw'igitsina gabo wambaye amataratara, harimo abantu bane bambaye imipira y'ubururu n'abandi babiri bambaye imipira y'umukara.

Uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, ni amagambogambo yanditse ku cyapa kiri ku gikuta kiri mu nzu imbere hahagaze abantu ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bareba imbere.

Umugezi w'amazi atemba, uzengurutswe n'ibihuru, imbere hari umuntu w'igitsina gore, uhagazemo, adubitsemo ikibido cye, yambaye agashati k'umuhondo, ku ruhande ku nkombe, hari umuntu uri koza ikinyamitende cye.

Ku ivomero rusange ry'amazi meza hari umwana w'umuhungu ndetse n'abandi bantu benshi baje kuvoma no kuvoma amazi meza, ayashyira mu kidito cy'umweru yunamye; wambaye umupira w'umuhondo.

Icyumba kirimo abantu benshi hagaragara nko kwa muganga, hicaye abantu benshi, imbere hari umuntu wambaye itaburiya, afashe urushinge, imbere ye hari umwana, wambaye ishati y'ubururu, uzamuye ukuboko, aguteze ngo batereho urushinge.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu bicaye, harimo ab'igitsina gore nab'igitsina gabo, hari umuntu bahagaze imbere, ugaragara ko ariwe uyoboye inama, afite indangururamajwi mu ntoki ze, ku ruhande hari ameza ateretseho mudasobwa.

Ivomero rusange ryubakiye bya kijyambere, hirya hari ibiti ryajeho abantu bane, harimo abana, umwe ari kuvoma, undi afashe ku cyuma cy'iryo vomero kugira ngo amusunikire amazi ajye mu kabido.

Icyumba kinini kiri gukorerwamo inama, gifite amatara manini yaka ya kizungu, kirimo ameza azengurutse y'uruziga asa umukara, gifite intebe z'ubururu, hateraniyemo abantu benshi, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo.

Icyumba kigaragara nk'ishuri kirimo abana bicaye, harimo ameza harimo ikibaho umwana umwe azamuye ukuboko aseka inkokora iri kumeza uwundi aramwegereye nawe ari guseka.

Abantu b'igitsina gore barahagaze barareba imbere, bari mu cyumba kirimo amashusho amanitse ku ruhande kigaragara ko ari ishuri bari kwiyigiramo bakuze ndetse imbere hateretse ameza hariho abayakozeho.

Ikirango kiriho abantu batanu batandukanye. Harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore. Munsi yaho hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara bigaragara ko ari amazina yabo n'icyo bashinzwe.

Icyumba kigaragara nk'igikorerwamo inama kicawemo n'abantu, bamwe bicaye hepfo abandi bicaye haruguru, hari uducupa duteretse ku meza turimo amazi, baragaragara nk'abari gukora inama.

Ku ivomero ry'amazi meza, hahagaze umugabo ufashe ku kibido n'amaboko abiri, ureba imbere aseka, hirya yaho hari ibyatsi bimeze nk'imihati, bikikije iryo vomero, yambaye ipantaro y'umukara.

Ubusitani buteraniyemo abantu benshi, higanjemo ab'igitsina gore bateruye abana, hari umuntu usutamye wambaye itaburiya wegereye umwana umwe muri ba bandi ab'igitsina gore bateruye, harimo abicaye mu ntebe za parasitike z'icyatsi ndetse n'iza parasitike z'ubururu.

Ivomero rusange, ririho abantu batatu b'igitsina gore, bakenyeye ibitenge, umwe afashe umukondo w'indobo, ari kuvoma, abandi babiri bafatishije amaboko yabo kuri iryo vomero.

Icyumba kirimo abantu b'igitsina gore, harimo ameza ateretseho impapuro, harimo intebe za parasitike z'umweru, abantu bicayemo bararebana bari kuganira.

Ivomero rusange riri ahantu hari ikigunda cyangwag se igihuru kizengurutse iryo vomero, kuri iryo vomero hari ibivido byinshi bihateretse, harimo utw'umweru dutoya, harimo iby'umuhondo ndetse n'icy'umukara, iruhande hari abana baje kuvoma.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zitandukanye zifite imigozi, imbere yazo hari umuntu ugaragara mu mugongo, wambaye itaburiya y'icyatsi kibisi igaragara nk'iyo mu ibagiro, yambaye agapfukamunwa, yambaye ingofero irimo amabara atandukanye.

Icyumba giteraniyemo abantu bicaye harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bambaye amakanzu y'ubururu bagaragara nk'abajyanama b'ubuzima baragaragara nk'abantu bari mu mahugurwa.

Imbuga nini ihagazemo abantu benshi, imbere yaho hari inyubako iriho n'icyapa ndetse hateyemo n'idarapo ry'igihugu, iruhande rwaho hubatse isharagati na cyo gihagazemo abantu.

Icyumba gifite urukuta rusize irangi ry'umuhondo, hicayemo abantu, hari abahagaze, imbere hari umwana uraramye ureba hejuru, hari umuntu w'igitsina gore wambaye agapfukamunwa n'umupira utukura wanditseho amagambo, uri kumuha ikintu kigaragara nk'igitonyanga.

Umuhanda w'itaka ugera ku ivomero rusange, hahagaze abana, abana bagaragara ko baje kuvoma, hari utubido duto, hirya y'aho hari ikinyabiziga kihahagaze, gisize irangi ry'umweru.

Inzu igaragara nk'ikorerwamo inama yicayemo abantu benshi batandukanye hari ab'igitsina gore, hari ab'igitsina gabo bose barareba imbere bameze nk'abari mu nama.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu, kiriho amashaka abiri anyuranyijemo, asigasiye inyuguti: UN, WFP, zanditse mu nyuguti nkuru nini.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, higanjemo abantu b'igitsina gore. Baricaye bateruye abana b'impinja, bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abantu babiri hari uw'igitsina gore uteruye mwana, harimo n'uw'igitsina gabo uhagaze wambaye itabuririya y'umweru, uw'igitsina gore ateze igitenge mu mutwe, yambaye n'imyenda y'igitenge, ateruye umwana ugaragara ko arwaye, uri kuvurwa aterwa urushinge mu mutwe.

Abana batatu b'abahungu, bari ku kiyaga, ku mpande z'ikiyaga, hari umusozi utagira ibyatsi n'ibiriho bigaragara birumye, barimo kuvoma, badahisha amazi indobo y'ubururu n'iyindi y'umweru.

Ivomero ry'amazi meza, ririmo imiyoboro ibiri y'amazi ariko kumanuka avamo, iruhande rwaryo hari umwana utezeho igikombe ku muyoboro umwe, hirya y'umuyoboro hari insina.

Ku ivomero rusange hari abantu batanu harimo abana, umwe yegereye umwana, umukuru afite n'indobo y'icyuma, uwundi nawe yicaje umwana mu ibase ari kumwoza amusize isabune, uwundi wo hirya nawe ari ku ivomero ari kuvoma mu ndobo nawe y'icyuma.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, imbere hari icyapa gishushanyijeho umuntu, wambaye ibintu bipfutse umunwa ndetse no mu mutwe by'umweru, imbere hari abandi bahicaye, bameze nk'abayobozi bari gutanga amahugurwa ku bandi bantu bari imbere yabo.

Ivomero rusange ryubakiye neza, imbere hateretse ikibido cya litiro makumyabiri, ku ruhande hari abana bane b'abahungu, hirya hari ibisambu birimo ibyatsi, inyuma y'ibisambu hariho ibiti birebire.

Imbuga yicaweho n'abantu babiri, umuntu w'igitsina gore n'umuntu w'igitsina gabo. Uw'igitsina gore ateruye umwana, yicaye ku ntebe ya purasitike y'ubururu, uw'igitsina gabo yambaye bote z'umweru, yicaye ku ntebe y'urubaho.

Umuntu wambaye agapfukamunwa k'umukara n'umupira w'umukara w'amaboko magufi, imbere ye hari umuntu umushyizeho akaboko ufite urushinge usa nk'uri kurumutera wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu.

Ku ivomero rusange hari abantu babiri b'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, bose bafite amajerekani ya litiro makumyabiri uw'igitsina gore ni we ubanza imbere, yambaye agatambaro mu mutwe kamanuka, yambaye n'umupira w'amaboko maremare,,,

Icyumba cyo kwa muganga, imbere hari umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu, ahagaze imbere y'abantu bicaye bateruye abana bamwe, harimo ab'igitsina gore harimo n'ab'igitsina gabo, hejuru yabo hamanitse umunzani w'isaha urimo agakapu bambika abana bagiye gupima ibiro.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore yikoreye idomoro rya litiro makumyabiri, ashyize amaboko hejuru ipfundikiye n'umufuniko wumutuku, ari kugenda areba imbere agenda yegera inzu ifite amabati y'icyatsi, imbere ye hari umwana wambaye agapira k'ubururu.

Ku ivomero rusange hari umwana w'umukobwa wunamye areba imbere aseka, ari koza indobo y'umweru, hirya ye haragaragara izindi ndobo ebyiri z'umweru, hirya ye kandi hateye ibiti bikikije iryo vomero birebire, harimo n'ibigufi bifite indabo.

Abantu b'igitsina gore baricaye, imbere yabo hari ameza, bayashyizeho intoki, umwe aragaragara ko yambaye isaha ku kuboko, undi nawe haragaragara impeta iri ku rutoki, yambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, iruhande rwabo buri muntu yegereye ibendera.

Kandagira ukarabe ikozwe mu ndobo y'umweru ifite umukondo w'ubururu n'umufuniko w'ubururu, hari umwana w'umuhungu, wambaye umupira w'ubururu, uri kureba imbere, uri guseka, aragaragara ko ari gukaraba mu ntoki.

Inyubako nini, inyuma ifite ibaraza, imbere y'ibaraza hahagaze abantu b'abajyanama b'ubuzima, bambaye amataburiya y'ubururu, bafite mu ntoki ibipapuro, inyuma yabo hahagaze n'abandi b'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore.

Inyubako ifite imbuga nini irimo amabuye ihagazemo abantu benshi ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, harimo abakenyeye ibitenge abenshi bambaye amajire y'icyatsi kibisi bari kureba imbere bari guseka.

Ivomero rusange, riri ahantu hari agasozi, hirya yaho hari ibyatsi n'amashyamba. Mu ivomero, hari ikibido cy'umuhondo, hari umuntu w'igitsina gore, ukenyeye ibitenge, urimo kuvoma.

Icyumba cyo kwa muganga cyicawemo n'abantu bari ku murongo, imbere hari abantu babiri bahicaye, umwe ari gukoresha mudasobwa, imbere y'aho hari umuntu uhahagaze uri kumwe n'umwana ugaragara nk'uri kwiyandikisha muri mudasobwa.

Umwana uri ku ivomero rusange arunamye ari kureba imbere ari gukaraba intoki, iruhande rwe hateretse indobo ebyiri z'ubururu, yambaye ikabutura ndetse n'ishati y'icyatsi kibisi, aragaragara amaso, amazuru, umunwa, umusatsi ndetse n'ugutwi.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo umurwayi iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru wambaye n'amataratara, ateze igitambaro cy'umukara, umurwayi yambaye umwenda w'ubururu.

Icyumba kinini cyicayemo abantu benshi bicaye kumurongo bazengurutse, hagati hari umuntu uhagaze ugaragara nk'uri kwigisha wambaye itaburiya y'umweru, kuruhande rwaho hateretse ameza ariho urupapuro.

Umuntu wambaye itaburiya uhagaze w'igitsina gore, ufite mu ntoki indangururamajwi, ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye, bameze nk'abari gutega amatwi ibyo ababwira.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Mayange isize irangi ry'umuhondo, imbere hahagaze abantu benshi ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo bambaye amataburiya y'ubururu ni abajyanama b'ubuzima, imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gabo ugaragara nk'umusaza urikubaganiriza.

Ivomero rifite amazi meza, riri inyuma y'inyubako y'ishuri, yubakishije amatafari ahiye. Inyuma hari abana baryegereye, ab'abahungu n'ab'abakobwa bari gukaraba intoki, hari n'uwerekana ibiganza ko yarangije gukaraba mu ntoki.

Abana batatu umukobwa umwe n'abahungu babiri bari ku ivomero rifite amazi meza, bari gukaraba intoki barareba imbere, barimo guseka hirya yaho hari abantu batagaragara neza, harimo uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyumba kigaragaramo abantu batanu ab'igitsina gore babiri, ab'igitsina gabo batatu, bicaye ku meza hari n' uducupa tw'amazi, bigaragara ko bari gukora inama.

Icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, imbere yacyo hari abantu benshi, ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo, harimo abambaye imipira y'umweru, harimo n'umwe wambaye umupira w'ubururu.

Abana bicaye bambaye imipira isa, bafite inkongoro, bari kunywa amata, hari n'abari kunywesha igikombe, hari abantu bari kuyabaha basutamye, hari n'abandi bahagaze, imbere yabo hateretse inkongoro ipfundikiye.

Inzu ifite umuryango ukinguye, imbere yayo hari umuntu w'igitsina gore ukenyeye igitenge, uri kureba imbere, wambaye ingofero, urimo guseka, arunamye, ari gukaraba ku ntoki akoresheje kandagira ukarabe.

Abana benshi bicaye bari hagati y'ikigero cy'umwaka n'imyaka itanu, hari umupolisi ufite inyenyeri eshatu ari kubaha igikombe ku munwa, hamwe n'abandi bantu bakuru bari kugenda babanywesha, hari utwana turi kureba hejuru.

Icyumba kirimo ameza atambirijwe igitambaro cy'umukara hicaye abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, harimo uw'igitsina gore ufite indangururamajwi uri kureba imbere, imbere yaho hari mudasobwa ndetse hari n'uducupa tw'amazi.

Ivomero rusange, rizengurutswe n'abantu benshi, imbere y'iryo vomero hateretse ibibido by'umuhondo, imbere hari umwana uri kuvoma, wambaye agashati k'umutuku, inyuma hari umuntu, urimo urasunikira amazi wambaye umupira w'icyatsi.

Ivomero rusange, imbere yaho hateretse ibibido bibiri, ku mpande hari abantu batatu bunamye, umwe ari gukaraba ku ntoki, undi ari kunywesha amazi intoki, inyuma yabo hari ibiti.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki tuzwi nka "ga" dufashe akaboko k'umuntu ahagana ku rutugu, akaboko kamwe kari gutera urushinge kuri uko kuboko k'uwo muntu.

Ivomero rusange ririho abana babiri, umwe yegereye umuyoboro wayo, ashyizeho akabido k'umuhondo, hirya hari ibyatsi bigaragara nk'ibihuru, ndetse harimo n'ibiti birebire bibisumba.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu cyumba, harimo ab'igitsina gore, harimo n'ab'igitsina gabo, baryamishije umwana ku meza nk'uri gupimwa barabyishimiye cyane, harimo abambaye udupira tw'ubururu tw'amaboko magufi.

Inyubako ebyiri zegeranye, zubakishije amatafari ahiye, imbere hari ibaraza ryubakiye, rihagazemo abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, harimo abambaye imyenda y'ubururu, harimo n'uwambaye itaburiya y'umweru, harimo n'abambaye udupira tw'umweru.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi bicaye bareba imbere, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru n'ubururu, hateretseho n'uducupa tw'amazi, imbere yabo hari umuntu w'igitsina gore uri kubabwira uri kubakoresha inama.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri b'igitsina gore, umwe ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, undi ni umugore wicaye ufite umwana w'uruhinja, uwo muganga aramugaramishije ari kumuha umuti. Uwo muganga kandi yambaye amaherena.

Ivomero rusange rifite imiyoboro ibiri y'amazi, ririho abantu babiri bari kuyivomeraho bafite ibivido by'umuhondo, hari uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo ndetse hari n'uwundi wambaye ijire uri hejuru yabo, iryo vomero rikikijwe n'ibihuru byinshi ndetse n'ibiti hamwe n'imirima.

Abantu benshi biganjemo abana n'abagabo, harimo umugabo umwe uri imbere wambaye umupira utukura n'ijire y'ubururu, asa nk'aho ari kubigisha abandi bakurikiye.

Icyumba kirimo abantu biganjemo ab'igitsina gore bateruye abana harimo uhagaze uteruye mwana wambaye agapira k'ubururu, hejuru y'uwo mwana hari umunzani w'isaha hirya hari umuntu wambaye itaburiya y'ubururu.

Umuntu w'igitsina gore yambaye ijire n'umupira w'ubururu, afite ibipapuro mu ntoki, imbere ye hari uwundi muntu urambuye ukuboko uri kumusaba igipapuro, wambaye ingofero ifite igikinga cy'umuhondo.

Icyumba kigaragaramo abantu benshi ariko higanjemo abana bicaye barambije, inyuma mu mugongo ni ho hagaragara, haragaragara imitwe yabo, bambaye udupira tw'ubururu twanditseho n'amagambo y'umweru.

Abantu babiri b'igitsina gore bateruye abana, umwe ari hirya undi ari imbere, uri hirya yambaye agapfukamunwa k'umukara, uri imbere yambaye agapfukamunwa k'ubururu ateruye agahinja kambaye umupira w'amaboko maremare.

Ubusitani burimo intebe eshatu zicaweho n'abantu icyenda, harimo uwambaye imyenda y'icyatsi kibisi n'ingofero y'icyatsi kibisi, harimo n'abafite impapuro. Abo bantu harimo ab'igitsina gore n'abigitsina gabo...

Abana babiri bagaragara nk'abari mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'itanu, bari kuvoma amazi bayashyira mu ndobo ebyiri z'umweru.

Ivomero ririho imiyoboro ibiri iri kuvamo amazi, umuyoboro umwe uhagazeho umwana wambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi, utezeho igikombe cy'icyuma, gisize irangi ry'umuhondo, hirya haragaragara ibyatsi.

Ubusitani bunini cyane burimo abantu benshi ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo, imbere hari inyubako iriho ikirango, imbere y'inyubako hari kandi ibendera ry'Igihugu, hateyemo n'igisharagati.

Umusozi uri kuvamo isoko y'amazi atemba, hariho umuvovo, hari umuntu w'igitsina gore uri ku ruhande, wunamye iruhande muri iyo soko, hari ikibido giteretsemo, ku ruhande hari umwana uhicaye.

Imbuga iriho ivomero hari umuntu uhasutamye w'igitsina gore, uri kuvoma amazi mu kibedo cy'umuhondo giteretse mu mabase, hirya hari umugozi wanitseho imyenda, hariho n'umupira w'ubururu.

Umwana wambaye ishati ya kake, afite isabune ku ntoki, afashwe intoki n'umuntu w'igitsina gore wambaye agapfukamunwa gakozwe mu mwenda, wambaye n'umupira w'ubururu uciye amaboko, bigaragara ko ari kumwoza intoki.

Imifuka myinshi ipakiye, ku ruhande hari abantu b'igitsina gore babiri, bari kuyiterura bayiyizamura hejuru, bayihereza umuntu w'igitsina gabo, wambaye ishati y'ubururu, uri kuyigereka hejuru y'iyindi.

Abana babiri bari iruhande rw'ibiti by'imihati umwe afite igikombe cya pulasitike ari gukarabya undi ku ntoki, uri gukaraba ku ntoki ari kureba imbere ari guseka bigaragara ko yishimye.

Icyumba cy'inama kicayemo abantu bareba imbere, hagaragara mu migongo yabo, imbere yabo hicaye abandi bagaragara amasura yabo, bagaragara nk'abayobozi bayoboye inama.

Icyumba kirimo abantu benshi, harimo ab'igitsina gore, harimo n'ab'igitsina gabo, bahagaze ku murongo w'imbere, inyuma yabo harimo abandi bahagaze nabo bari ku murongo, ku ruhande hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, inyuma hari icyapa cyaka cy'umweru, ndetse kiriho n'ibara ry'ubururu.

Abantu batatu b'igitsina gore bakenyeye ibitenge bari ku ivomero, umwe ari kuvoma mu ndobo y'icyatsi yambaye igitambaro mu mutwe, abandi babiri bafashe ku ivomero, bari kugaragara nk'abari kumuvomera.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye itaburiya ufite urushinge urimo urutera umwana ku rutugu, uteruwe n'umubyeyi wambaye igitenge mu mutwe, imbere y'aho hari ameza.

Inzu yubakishije amatafari ahiye iruhande rwa yo hari kandagira ukarabe, imbere ya kandagira ukararabe hari umwana uri gukaraba intoki ari gukarabira mu kabase gato yunamishije umutwe ari kureba ku ntoki.

Ivomero rusange rihagazeho abana batandatu bambaye imyenda ya kaki, baragaragara nk'abanyeshuri, imbere hateretseho indobo eshatu z'umuhondo n'akabido k'umuhondo.

Ikibido cy'umuhondo gifite nka ritiro makumyabiri, giteretse ku ivomero rusange, ryubakiye neza, iruhande rwaho hari abana bane b'abahungu, umwe afite inkoni mu ntoki, arahagaze, yambaye umupira utukura n'ikabutura y'ubururu.

Icyumba gikorerwamo inama kimanitseho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda imbere hicaye umuntu umeze nk'uyoboye inama iburyo hicaye abantu bamwe, ibumoso hicaye abandi barimo barebana bameze nk'abateze amatwi bumva icyo umuyobozi ababwira.

Inyubako irimo abantu benshi batonze umurongo bicaye abandi babahagaze inyuma, muri iyo nyubako igikuta cyaho kirimo icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Abantu bagaragara nk'urubyiruko, begereye icyapa cyanditse cy'ubururu, cyanditsweho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, harimo abazamuye amaboko baragaragara'abishimye, inyuma yabo hari ibindi byapa.

Abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bagaragara nk'urubyiruko, bambaye imipira y'ubururu, imbere handikishijweho inyuguti mu magambo y'umweru, bambaye ingofero z'umweru, bazamuye amaboko.

Ivomero rusange ryubakishije amabuye, rifite umuyoboro umwe, hari abantu biganjemo ab'igitsina gore bafite indobo, umwe afite iy'ubururu, undi afashe iy'umutuku, hari abandi bahagaze hejuru bari kureba mu ivomero.

Abajyanama b'ubuzima, harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bambaye amataburiya y'ubururu ndetse imbere yabo hahagaze umuntu w'igitsina gabo ugaragara nk'ukuze, wambaye ikoti ry'umukara.

Ivomero rusange ririho abantu benshi ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo ndetse n'abana bato bazengurutse iryo vomero, hari n'ibibido iby'umuhondo, iby'icyatsi ndetse n'icy'umukara, hateretse n'ibase.

Icyapa cy'ubururu cyandikishijweho amagambo yanditse mu mweru, kirimo ikirango kiriho umugore uteruye umwana, gishyirwa ahantu hakorera ikigo gishinzwe kwita ku bana.

Umuntu uhetse umwana mu gitenge ari ku ivomero, ari koza isahani, ari kuyogereza mu ndobo y'umuhondo, yambaye igitenge na we aragikenyeye, yambaye n'umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufi arunamye.

Ivomero rusange ririho abantu benshi, rirubakiye ryubakiye na sima, hari abana bafite utubido uw'imbere afite utudo tubiri, hari n'uri imbere ari kuvoma, rizengurutswe n'ibihuru ndetse n'imirima.

Abantu b'igitsina gore bambaye udupira tw'umweru, bicaye hasi bateruye abana bakenye n'ibitenge, iruhande rwabo hari umuntu uri kugenda uha abo bana amata w'igitsina gabo na we wambaye umupira usa n'uwo abo bana batoya bambaye.

Ikigega cy'amazi kinini cy'umukara gifite umuyoboro w'amazi, iruhande hari umwana ufite igikombe ari kuvoma, yambaye imyenda y'ishuri arunamye, iruhande hari amatafari ahakikije y'umucanga.

Ahantu hagaragara nk'igishanga, umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'ubururu n'ishati y'umuhondo, ahadashya amazi, ayafite mu ntoki ari kureba imbere, ari guseka, hirya yaho hahagaze abandi bana.

Imbuga iteraniyeho abantu benshi ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, barazengurutse barahagaze, harimo abafite amakaye, harimo abafite impapuro, imbere yabo hari umuntu wicaye ku ntebe, ubu uri kuzamura ukuboko nk'uri kwerekana ko ari kunywa imiti.

Icyumba giteraniyemo inama cyicayemo abantu, ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo, kirimo ameza maremare bose bashyizeho amaboko hateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere yabo hamanitse ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Umuyobozi mukuru w'Igihugu cy'u Rwanda, yicaye imbere iruhande rw'ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse hariho n'indangururamajwi, yicaranye n'uwundi muntu w'igitsina gabo, imbere hari abantu bahicaye bakurikiye inama.

Umuntu w'igitsina gabo, uhagaze mu muhanda, wambaye imyenda icikaguritse, asa nabi umubiri wose, afite imifuka, afite ibikarito, arasa nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyapa kiriho ibirango byinshi cyerekana ko aho cyaba kiri cyangwa aho umuntu yakibona bakurikirana ibijyanye n'ubuzima bw'abantu, kiriho amabara atandukanye harimo ibara ry'icyatsi, hariho ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Igisharagati kigaragara uruhande rumwe gitamirijweho igitambaro cy'icyatsi, imbere yacyo hahagaze ikinyabiziga cy'umweru, imbere y'ikinyabiziga hahagaze abantu, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo begeranye.

Abana benshi begeranye, bareba imbere bishimye bari guseka harimo nufashe kumuwa bambaye imipira yicyatsi kuri bamwe harimo n'uwambaye umupira uriho umutuku ku ijosi.

Icyumba kinini gifite parafo y'umweru, ku gikuta cy'icyo cyumba hamanitse ifoto, imbere hahagaze abantu, ab'igitsina gore, ab'igitsina gabo, imbere y'abo bantu hari abandi bahasutamye.

Ameza manini atangirwaho ibiganiro, yicaweho n'abantu babiri uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, uw'igitsina gabo yambaye agapfukamunwa uw'igitsina gore afite microphone ari gutanga ibiganiro, imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa.

Umuntu w'igitsina gore akenyeye igitenge yambaye agapfukamunwa ku kananwa aragaragara amenyo ahetse umwana mu mugongo yicaye iruhande rwe hari wundi mwana aragaragara ko atetse igikoma mu isafuriya.

Icyumba gikorerwamo inama cyicawemo n'abantu ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bareba imbere, bicaye ku ntebe imbere hari ameza afite igitambaro cy'umweru ndetse n'ubururu, ateretseho ibikapu by'abo bantu. Imbere y'abo bantu hari umuntu ugaragara nk'uri gukoresha inama.

Umuntu w'igitsina gore, ari guseka, arareba imbere, ateze igitenge mu mutwe, yambaye iribaya, ririmo amabara y'icyatsi, umuhondo, umukara n'umweru, aragaragara amenyo.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi batandukanye, baricaye ku ntebe, harimo ab'igitsina gore, harimo n'ab'igitsina gabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'umukara, barareba imbere nk'abakurikiye amahugurwa.

Ibyapa bishinze mu busitani, imbere yaho hahagaze abantu, harimo ab'igitsina gore, harimo n'ab'igitsina gabo, harimo umwe ushinzwe umutekano w'umupolisi wambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru ndetse iriho n'ibirango.

Abantu bahagaze ku murongo, harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, harimo umugore w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bari mu busitani bwiza buteyemo n'imikindo, hirya haragaragara inyubako ya Radison.

Umuntu w'igitsina gore yicaye ku ntebe iboshye azamuye akaguru agashyira ku ntebe, yambaye ipantaro izinze ukuguru kumwe, yambaye umudari mu ijosi ari kureba imbere ari guseka, yambaye udukomo tubiri ku kuboko azamuye ukuboko ari gukora mu musatsi.

Umuntu ugaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe ahagaze ku kimoteri cy'imyanda, yiziritse imyanda itandukanye irimo amasashe, irimo imyenda ishaje, arareba imbere yambaye n'ibindi mu mutwe bigaragara ko asa nabi cyane.

Umusazi cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ahagaze mu cyumba kirimo irangi ry'umuhondo, arihagararanye n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare ari kumukora mu ntoki.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, umugore uri ku ruhande wambaye amataratara, wifashe neza wambaye agapira k'umukara k'amaboko maremare; barareba imbere nk'abakurikiranye amahugurwa.

Icyapa cy'ubururu kiriho ibimenyetso bitandukanye biri mu kizeru, ikizeru cya mbere kirimo umwana w'uruhinja, ikizeru cya kabiri kiriho ababyeyi babiri bafashe abana babiri mu ntoki, ikizeru cya gatatu kiriho umuntu wunamye hari uruhinja ruryamye, ikizeru cya kane ni icy'umuntu utwite, ikizeru cya gatanu ni icy'umuntu urwaye.

Umuntu w'igitsina gore arahagaze arareba imbere afite isuka mu ntoki yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba iruhande rwe yegereye inzu isakaje amategura.

Abantu benshi bicaye, harimo ab'igitsina gore, harimo n'ab'igitsina gabo ndetse n'abana, bafashe uduti, batuzamuye hejuru, turiho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, barareba imbere, baragaragara nk'abishimye.

Icyumba gifite idirishya rikozwe mu mbaho harimo intebe ikozwe mu rubaho, imbere hari umusambi hari umuntu wicaye kuri iyo ntebe w'igitsina gore ukenyeye igitenge, mu maso ye aragaragara nk'utishimye.

Ikinyabiziga gihagaze gisize irangi ry'umweru, hariho icyapa cyanditsweho n'amagambo y'ubururu, hirya y'aho hahagaze umuntu w'igitsina gore, ku mpande haragaragara ibyatsi n'igiti kirekire.

Umugore w'umukuru w'igihugu cyacu cyu Rwanda yambaye isaha ku kuboko, yambaye amataratara, yegereye indangururamajwi, yambaye ishati y'icyatsi cyijimye.

Umupolisi ufashe icyapa kigendanwa cyanditsweho n'amagambo y'Ikinyarwanda kiriho Ikirango cy'Igihugu cy'u Rwanda n'Ikirango cya polisi y'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma ye hari abantu bambaye imipira y'icyatsi kibisi, hirya ye hari umuntu ufite indangururamajwi igendanwa.

Abana benshi bahagaze, begeranye, bareba imbere, barasa nk'abana bari mu cyaro, bambaye imyenda idasa neza, bahagaze iruhande rw'ibyatsi byumye, inyuma yabo hari ibyatsi bibisi.

Umuntu uhagaze w'igitsina gore ufite agapapuro mu ntoki ari kureba imbere ari guseka yambaye amataratara yegereye igikuta cy'amatafari ahiye, yambaye impeta ku kuboko yambaye umwenda urimo umuhondo n'ubururu.

Abana benshi begeranye harimo abakobwa harimo n'abahungu baricaye, ni benshi bamwe bari hirya hari abagaragara n'abatagaragara, abagaragara bambaye imipira y'umuhondo bambaye ibipapuro mu mutwe byanditseho amagambo.

Umuntu w'igitsina gabo yicaye hasi afite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye igipine icyo yizengurukijeho, yambaye agakabutura kagufiya, aragaragara amaguru, afite inzara zishokonkoye n'ubwanwa bwinshi ndetse n'imisatsi miremire kandi isa nabi.

Abagore babiri, umwe ateruye umwana, undi ameze nk'umujyanama w'ubuzima, yambaye umupira w'umweru uriho ikirango, afite agapimo mu ntoki gapima ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu, ari kwereka umugore uteruye umwana.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore, afashe mu mutwe n'amaboko abiri, bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, arasutse n'ibisuko, yambaye umupira w'umweru ufite amaboko maremare.

Abantu babiri begeranye, umwe ni muremure undi ni mugufi ni ab'igitsina gabo, umwe yambaye imyenda icikaguritse igaragaza ubwambure, aragaragara nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe, undi yambaye ipantaro y'umukara.

Umuntu ugaragara nk'umusaza yambaye ishati y'ubururu, ari guseka, haragaragara amenyo inyuma make, biragaragara ko ayandi yakutse, haragaragaza amazuru, haragaragara amaso abiri n'amatwi abiri atagaragara neza, arimo kureba imbere.

Umuntu w'igitsina gabo yicaye ku ntebe y'urubaho. Imbere ye hari abandi bantu b'igitsina gore. Munsi yaho, hari insina zigaragaza ko zifite amakoma menshi ndetse hari n'ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi.

Umuntu w'igitsina gabo ugaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe, yicaye mu muyoboro munini w'amazi y'imvura, akenyera igitenge akizirikira mu ijosi, afite imisatsi myinshi isa nabi, afite amashashi.

Inyubako ifite amabati ashaje, iruhande hari umuntu ufite ikinyamitende wambaye ishati y'umweru n'ingofero wicaye kuri icyo kinyamitende, iruhande rwaho naho hari umuntu umeze nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe, wicaye usutamye, uzamuye ukuboko hejuru.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore wambaye ishati y'umweru, ufite umusatsi w'umukara, uri guseka amenyo agaragara, ateruye agahinja kambaye umupira w'amaboko maremare, bari iruhande rw'inzu y'amatafari ahiye.

Umuntu wicaye afite ibyatsi mu ntoki, agaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe. Hirya ye hari abantu benshi, hari abicaye ku gasima, hari n'abahagaze, hari n'abari kugenda.

Icyumba kirimo umuntu w'igitsina gore, arahagaze ari kureba imbere, aragaragara igice cye cyo hejuru, ari guseka, aragaragara amaso, agaragara amazuru, akaboko ke kageretse ku kandi.

Umuntu w'igitsina gore afashe umuntu imyenda, uwo muntu ugaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, hirya hari uwundi uwo murwayi ashyizeho akaboko, uwo muntu uri hirya afite inkoni barareba imbere, baragaragara ko bashaka ko atabacika.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga, hari umwana uryamyemo wasamye, ugaragaza amenyo, haragaragaza izuru, haragaragara amaso ye abiri, hagaragara impanga, afite umusatsi w'umukara, iruhande rwe hari intoki ebyiri zambaye uturindantoki tuzwi nka ga.

Umuntu ugaragara intoki, haragaragara amenyo ya ruguru n'ayo hepfo, haragaragara izuru, ugutwi n'ijosi ndetse n'akananwa n'ubwanwa bukeya bwo hejuru.

Umuntu w'igitsina gabo aragaragara igice cyo hejuru, afite ubwanwa, arasamye, aragaragara amenyo yo hejuru n'ayo hasi, arareba imbere afite, amatwi abiri, aragaragara n'amaso abiri.

Umuntu w'igitsina gabo, ugaragara igice cyo hejuru, yambaye umupira w'umweru, ari guseka, ashyize urutoki ku munwa, afite ubwanwa, hagaragara izuru n'amatwi abiri, amaso ntagaragara.

Umuntu w'igitsina gore wasamye cyane, haragaragara amenyo abiri yo hejuru, ari kureba umuntu utagaragara usa nk'umuganga wambaye udupfukantoki, ufite akuma mu ntoki.

Icyumba kigaragara nk'ahavurirwa amenyo, hari umugabo wicaye uhengamye uri kwerekana amenyo yo hejuru, imbere ye hari umuntu wambaye agapfukantoki k'ubururu wegereje akantu ku munwa we.

Icyumba cy'ishuri kirimo ikibaho cy'umukara, kiri imbere cyanditseho n'amagambo, imbere yacyo hahagaze abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, imbere nanone hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru w'umwarimu, afashe imfashishanyigisho y'amenyo, ayihereje umunyeshuri amufashe ku rutugu, uwo munyeshuri yambaye ishati y'icyatsi kibisi.

Icyumba giteraniyemo abantu, kirimo ameza ateretseho imiti yoza amenyo, hari umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi, ufashe uburoso arimo aroza amenyo ahagaze.

Ibyuma byifashishwa kwa muganga, bifite amoko atandukanye, hari ibikura amenyo, hari ibyifashishwa mu kubaga, hari ibihetamye, hari n'ibigororotse, hari n'ibityaye, byose babikoresha mu buvuzi.

Umuntu w'igitsina gore, arashinyirije ku buryo haje n'iminkanyari mu maso, haragaragara amenyo yo hasi n'ayo hejuru, harimo urudodo rufashwe n'amaboko abiri, aragaragara ijosi, hagaragara umwenda w'umweru yambaye hejuru.

Abantu babiri umwe n'igitsina gore, undi n'umwana bari kurebana, bazamuye amaboko, bafite uburoso bwoza amenyo mu ntoki, uw'igitsina gore abugejeje ku menyo, haragaragara amenyo ye, arareba umwana nk'umwerekera.

Abantu babiri uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo bari kureba uwundi muntu utagaragara neza bagaragara ko bamusekeye bamwishimiye bamwereka amenyo y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ameza ateretseho ibikoresho byinshi bitandukanye. Hariho n'ateretseho uducupa hirya, harimo umuntu ugaragara nk'igitsina gabo wambaye agapfukamunwa, wambaye itaburiya ndende ufite umusatsi mukeya ku mutwe.

Umuntu w'igitsina gore aragaragara igice cyo hejuru, yambaye umwenda w'umweru, amaboko ntabwo umwenda ugeraho, azamuye uburoso, ari koza amenyo, ari kwireba mu indorerwamo, aragaragara amazuru, aragaragara amaso, aragaragara n'impanga ndetse afite n'imisatsi miremire.

Umuntu wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi ari kwireba mu ndorerwamo aragaragara amenyo arimo gucishamo akadodo, aragaragara amazuru, aragaragara amaso ye yombi ndetse n'ugutwi kumwe n'impanga.

Icyumba k'ishuri kirimo abana bareba imbere bari guseka, bari kwerekana imiti ifunze mu gakarito yoza amenyo, harimo n'umuntu mukuru w'igitsina gore urimo guseka uri imbere yabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuntu w'igitsina gore, uryamye agaramye yasamye, iruhande rwe hari umuntu w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa n'amataratara amurika areba mu kanwa ke, iruhande hari uwundi muntu wambaye ishati y'ubururu igaragara nk'itaburiya.

Umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe, wambaye itaburiya, ukuboko kumwe gufite indorerwamo, ukundi gufashe kukananwa, asa nk'uri kureba igice cyo ku menyo, ameze nk'useka, amaso ye aragaragara n'impanga ndetse n'ugutwi kumwe ararahengamye.

Umuntu ugaragara igice cyo hejuru wambaye akenda k'imbere k'umweru kazwi ku izina ry'isengeri, ari guseka, haragaragara amenyo y'imbere afite amaso abiri n'amazuru aragaragara.

Umwana uri hagati y'imyaka itanu n'icumi, aragaragara igice cyo hejuru, afite uburoso mu ntoki bwoza amenyo, arabuzamuye abugejeje ku munwa, haragaragara amenyo yose nk'ugiye kuyoza.

Umuntu w'igitsina gabo, ugaragara igice cyo hejuru, ufite agasatsi gake ku mutwe, ufite amenyo y'umweru, ufite ishinya y'umutuku, ugaragara ugutwi kumwe, ukundi ntikugaragara neza.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'itanu, ugaramye ushyize amenyo hejuru, hari ibiganza bibiri byambaye ga bifite utwuma mu ntoki twegereye hafi y'umunwa.

Icyumba cy'ishuri kigaragaramo abantu batandatu, harimo umwana w'umuhungu muto uri kwerekwa uko boza amenyo, ateruye imfashanyigisho y'amenyo.

Umuntu w'igitsina gabo afite ubwanwa, aragaragara igice cyo hejuru, afite urudodo afatishije amaboko abiri ruri mu menyo, aragaragara amenyo ya ruguru, aragaragara n'ururimi, amazuru ndetse n'amaso.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore, ushinyitse amenyo y'umweru, ushyize intoki ebyiri ku munwa, isura ye ntigaragara neza, haragaragara izuru, haragaragara mu ijosi.

Abana bari mu kigero cy'imyaka itanu ndetse n'icumi bafite uburoso bwoza amenyo mu ntoki ndetse babushyize mu kanwa biragaragara ko bari koza amenyo, bafite n'udukombe mu ntoki turimo amazi, bambaye umwambaro w'ishuri barareba imbere bari kwereka abandi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ameza, harimo impapuro n'ikaramu y'ubururu. Hirya hari abantu bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi bari kwandika. Imbere hari umuntu w'igitsina gore wasamye uri kureba imbere.

Icyumba kirimo umwana muto wicaye w'umukobwa, afite uburoso mu kuboko abushyize mu kanwa. Arasamye cyane ntabwo hagaragara amenyo aragaragara amaso, amazuru n'ugutwi kumwe.

Umuntu w'igitsina gabo, ufite ubwanwa, aragaragara igice cyo hejuru, hagaragara amenyo, ashyizemo urudodo, afatishije amaboko abiri, aragaragara amaso, amazuru n'ugutwi kumwe.

Abantu b'igitsina gore bagaragara nk'abari mu myaka mirongo itandatu na mirongo inani, bicaye ku ntebe abandi bicaye ahagana hasi, bari mu rutoki ahantu hari insina.

Icyumba kirimo umuntu w'igitsina gore n'umuntu w'igitsina gabo, bambaye imipira y'umutuku, uretse ko uw'igitsina gore harimo uturongo tw'umukara, yambaye impeta ku rutoki, uw'igitsina gabo yambaye amataratara, barunamye ku ruhande hari amataratara ateretse ku meza.

Abantu babiri b'igitsina gore, baricaye, begereye ameza, umwe ari gukata imboga, undi afite isorori y'kirahure iruhande rwe. Ari kureba uri gukata imboga, ari guseka, yambaye amataratara.

Abantu babiri bicaye, umwe ni igitsina gore undi ni igitsina gabo, uw'igitsina gabo yambaye ishati y'ubururu, afite icyumvirizo mu ijosi, afite ubwanwa, ari guseka, arareba imbere, yegamiye uw'igitsina gore ufite inkoni yicaye, wambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare.

Abantu b'igitsina gore, umwe aragaragara nk'ukuze, baricaye, afite imvi mu musatsi ariko harimo n'umusatsi utarimo imvi, akaboko ke kari imbere, kegereye uwundi wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ufite icyumvirizo mu gutwi.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe yicaye hejuru undi yicaye hasi, uw'igitsina gore umwe wicaye hasi aragaragara nk'ushaje biragaragara ko yavunitse akaboko, hari uri mukanda ufite igipimo mu ijosi ndetse yambaye agapfukamunwa n'amataratara, hirya hari imbuga irimo ubusitani bwiza.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro, cyicawemo n'abantu bagaragara nk'umuryango begeranye cyane bishimye, hari ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo ndetse n'abana, harimo uw'igitsina gore wambaye ipantaro y'umuhondo n'agashati k'icyatsi.

Abantu babiri uw'igitsina gore n'uwi'igitsina gabo, bari mu gikoni cya kizungu, barimo gukata imboga, ndetse icyo gikoni gifite n'amazi bari koza imbuto, bari koza inyanya, haragaragaraho na pavuro.

Umuntu ugaragara nk'ukuze wicaye mu kinyabiziga cy'abafite ubumuga, arimo guseka, yambaye amataratara, afite n'imvi mu mutwe, inyuma ye hari uwundi ugaragara nk'uri kumufasha kukigendesha.

Umuntu w'igitsina gore n'uw'igitsina gabo bari mu cyumba kimwe, uw'igitsina gabo yicaye mu ntebe, uw'igitsina gore arahagaze yambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru, ari guseka ari kureba mu maso uw'igitsina gabo.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri, wambaye agapira k'ubururu, afashe mu kiganza n'amaboko ye abiri cy'umusaza, ugaragara ko ari hagati y'imyaka mirongo itanu na mirongo irindwi, bahuje urugwiro nk'abari kuganira.

Umuntu w'igitsina gabo, aricaye, araseka, arareba imbere arareba umuntu utagaragara mu maso, akaboko ke gafashe ku meza, akandi kararambuye kari imbere, yambaye umupira ufite ijosi ry'ubururu n'uturongo tw'umweru n'ubururu.

Umuntu w'umusaza uri hagati y'imyaka mirongo itandatu n'itanu na mirongo irindwi n'itanu aricaye, yambaye ishati y'umweru yambaye amataratara ari kure imbere araseka afite imvi, mu ntoki ze afite akuma kagorora ingingo, hari umuntu umuhagaze iruhande uri kubimufashamo.

Icyumba gisa nk'icyo kwa muganga, kirimo abantu babiri, umwe arahagaze undi araryamye, uhagaze arasa nk'umuganga yambaye itaburiya y'umweru, uryamye yorosha amashuka y'umweru.

Umuntu w'igitsina gore yambaye itaburiya yo mu gikoni, ari mu gikoni ari kureba imbere ari, guseka, afite ifurusheti mu ntoki, afite n'isahani iriho imbuto n'imboga arareba imbere, aragaragara nk'ukuze, afite imvi.

Icyumba kirimo abantu bicaye hasi, bambaye udushabazi n'ibitenge bararambije, ni igitsina gabo. Harimo abenshi basheshe akanguhe bambaye n'utugofero, umwe ari kuboha akantu kameze nk'agatebo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abantu babiri b'igitsina gore, umwe aricaye undi arahagaze, uwicaye ameze nk'umukecuru arareba imbere nk'utabona neza, azamuye amaboko, afite igitambaro, yambaye umupira w'amaboko maremare usatuye imbere.

Abantu babiri, bagaragara ko bakuze basheshe akanguhe, bari guseka barareba imbere, harimo uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, bakunje ingumi nk'abantu bari kwiruka.

Abantu bicaye bigitsina gore n'uw'igitsina gabo umwe uteruye akana w'umuzungu, n'abagore babiri bambaye ibitambaro mu mutwe, bahuje urugwiro bagaragara nk'abari kuganira.

Umuhanda w'ibitaka munini ukikijwe n'insina hepfo no haruguru, harimo abantu bari kugendamo basheshe akanguhe bafite utubando, babiri bari imbere, bambaye n'umushanana n'imipira y'umutuku.

Ikibuga kirimo abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, ni umwana mutoya, n'umuntu w'igitsina gabo ugaragara ko akuze, umwana muto afite umupira, ndetse biragaragara ko bari gukina bishimye.

Umuntu w'igitsina gabo usheshe akanguhe, aricaye aragaragara ugutwi kumwe, uwundi umusaya urareba hirya, ateruye umwana, umwana wishimye bahuje amazuru baregeranye bahuje urugwiro.

Icyumba kigaragara nk'uruganiriro kirimo ameza, hicayemo abantu babiri uw'igitsina gore n' uw'igitsina gabo, uw'igitsina gore afite igipapuro ari kwereka uw'igitsina gabo barishimye bari gusoma.

Abantu babiri, harimo uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, uw'igitsina gabo agaragara nk'ushaje, yegamiye uw'igitsina gore urimo guseka, wambaye igitambaro cy'umutuku, amushyizeho n'akaboko, hagaragara amenyo.

Abantu babiri bagaragara nk'abakuze, umwe ni umukecuru undi ni umusaza, umusaza aricaye, afite ikirahure ari kunywa, afite ubwanwa burimo imvi, umukecuru afite umusatsi urimo imvi.

Isoko ririmo abantu b'igitsina gore baricaye baregeranye, imbere yabo hari amakarito arimo inyanya zuzuye, inyuma yabo hari imbuto ziri mu tubati, hirya yabo hari agafuka k'icyatsi kibisi.

Umuntu w'igitsina gabo, arahagaze, arareba imbere, yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, arambuye amaboko, ari guseka, afite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, yambaye umwenda wo hasi w'umukara.

Munsi y'ubusitani, harimo akayira gashashe amabuye gatandukanye ubusitani n'ishyamba rifite ibiti birebire, ndetse iruhande rw'iryo shyamba hari n'ibihuru, n'ibintu bimeze nk'imyaka biteye, muri ako kayira rero harimo abagabo babiri, umwe agaragara nk'umusaza yambaye ingofero n'ishati y'amaboko maremare ariko ihinnye, yambaye n'isaha.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo abantu bari mu myitozo ngororamubiri. Ku ruhande rw'uwo muhanda, hasize irange ry'umweru n'iry'umukara. Ku ruhande rwo hirya, hari ubusitani burimo indabo z'umweru.

Abantu babiri b'igitsina gore umwe aricaye undi amuhagaze iruhande amwunamye iruhande barareba imbere baraseka, uwicaye aragaragara nk'usheshe akanguyehe afite imvi, ari guseka hagaragara amenyo, yambaye amaherena arishimye.

Umuhanda munini w'itaka, ku ruhande hari insina, mu muhanda harimo abantu bari kuwugendamo harimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo ndetse n'urubyiruko, imbere hari abantu bagaragara nk'abakecuru, bafite inkoni, bambaye umushanana n'imipira itukura y'amaboko magufi.

Abantu babiri b'igitsina gore umwe aricaye undi amwunamye iruhande, uwicaye yambaye amataratara ateze igitambaro kirimo ibara ry'umukara yambaye impeta ku rutoki, umwunamye iruhande yambaye ishati yubururu afite imisatsi ifunze.

Abantu babiri b'igitsina gabo bicaye ku ntebe bari mu cyumba kigaragara nk'ikivuriro, umwe afite imvi mu musatsi we, undi ari hirya yambaye itaburiya y'umweru bari kureba ku rupapuro.

Icyumba gihagazemo abantu babiri umwe ni umusaza ufite ubwanwa bwinshi burimo imvi, arambuye akaboko undi n'igitsina gore ari kumuha ikinini mu ntoki afite ikirahure kirimo amazi yo kunywa meza.

Abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo barahagaze, bari kureba imbere, bari guseka, harimo n'abana, inyuma yabo hari ibiti birebire birimo n'indabo, ku ruhande harimo uw'igitsina gabo ufite ubwanwa burimo imvi ndetse n'umusatsi urimo imvi.

Icyapa cy'ubururu kiriho umuntu urwaye Ubushita bw'inkende, cyandikishijweho amagambo y'umweru, yanditseho ngo "twirinde" n'ayandi yanditse mu ibara ry'umuhondo yanditse ngo "indwara y'Ubushita bw'inkende".

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru, bari mu muhanda munini, hirya hari ibiti bigiye bihateye n'amatara yo ku muhanda, bafite ibyapa byanditseho amagambo ngo "Twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira."

Icyumba kigaragara nk'igikorerwamo inama, gifite imbere icyapa cyanditseho amagambo RBC, R iri mu magambo y'ubururu, B iri mu magambo y'umuhondo, C iri mu magambo y'icyatsi, kirimo abantu benshi, imbere hariyo abantu batatu bahicaye.

Icyapa cy'ubururu, kiriho ikirango kigaragara ko ari icy'igihugu, munsi handitse amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, yanditse mu cyongereza ugenekereje mu kinyarwanda, ni Minisiteri y'Ubuzima.

Icyapa kiriho ibirango byinshi bitandukanye, hariho ikirango cy'ubuzima, hari n'ikirango cy'ivuriro, harimo ikirango cy'igihugu n'ibindi birango byinshi, ahandikishijeho ibara ry'umutuku, hariho n'ibara ry'umuhondo ndetse hariho n'ibara ry'umweru.

Imibare cumi na gatatu, cumi na kane, cumi na gatanu, byanditse mu ibara ry'umweru biri ku cyapa gishyirwa ahantu havura indwara y'isukari mu mubiri, handitseho n'ayandi magambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hariho n'ibara ry'umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi n'ubururu.

Icyumba kigaragara ko bagikoreramo inama, cyicayemo abantu benshi b'igitsina gore, ab'igitsina gabo. Imbere ni ku gikuta hometse icyapa kiriho ibirango byinshi bitandukanye.

Ubusitani buteyemo ibyatsi hari n'igiti kirekire gifite amashami, munsi y'icyo giti hari abantu basutamye bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abambaye amajire bambaye n'udupfukamunwa, hari uw'undi uryamye ugaragara nk'urwaye aryamye ku gatanda k'abarwayi.

Icyapa cy'ubururu kiriho ibirango bisa by'umweru, imbere hahagaze abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, harimo uw'igitsina gore wambaye ikanzu y'umuhondo, harimo n'undi w'igitsina gore wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n'ay'ubururu.

Umuntu wambaye icyuma bita icyumvirizo mu ijosi, yambaye agapfukamunwa akamanuye, haragaragara isura yo mu maso, yambaye ingofero bifashisha kwa muganga, yambaye ishati y'ubururu, azamuye ukuboko.

Umukecuru ushaje ugaragara nkuwishimye, ufite amenyo make mu kanwa, upfutse ijisho ry'iburyo, wambaye ingofero y'umutuku, ufite izuru rigaragara, wifubitse umwenda w'umweru.

Icyapa cyerekana ibintu bitandukanye, umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, wunamye mu byatsi, wambaye ingofero y'urugara, n'abandi bahagaze bambaye imyenda y'imyeru, bagaragara nk'abaganga harimo n'uwambaye agapfukamunwa.

Ameza ateretseho ibikoresho byo kwa muganga, azengurutsweho n'abantu bahicaye, hari umuntu w'igitsina gore uteze urutoki, aruteze iruhande rw'umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, wambaye umugozi mu ijosi ugaragaza icyo ashinzwe.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, hari abicaye imbere bagaragara nk'abari gutanga ibiganiro, inyuma yabo hari icyapa cyometse ku gikuta cyanditseho umubare ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane n'ayandi magambo menshi.

Abashinzwe kwita ku isuku, bafite imifuka ibiri itandukanye. Hari uw'ubururu hari n'uw'icyatsi kibisi. Uw'icyatsi kibisi wanditseho amagambo y'umukara ko ibibora bigaragaza ko ujyamo ibishigwe bibora, naho uw'ubururu ujyamo ibishingwe bitabora.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu, udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'ubururu, bari mu cyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga haryamyemo umuntu hagati wiyoroshe ishuka y'ubururu.

Inyubako igaragara ko ikorerwamo ubushakashatsi, ifite indabo imbere n'ubusitani, hejuru handitseho amagambo yanditse n'inyuguti z'umukara isize amarange y'umweru.

Inyubako ifite icyapa hejuru cyanditswe mu magambo y'icyatsi, kibisi hariho n'aho ubururu ndetse n'umukara, ku ruhande hari agati kazingiyeho inzoka, imbere hari ikinyamitende gihagaze.

Icyumba kirimo umuntu w'igitsina gore uryamye agaramye yiseguye akaboko, ararwaye, iruhande rwe hahagaze umuntu w'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo bari kumureba, uw'igitsina gore afashe akaboko ke.

Ibitaro bifite inyubako y'amagorofa, imbere hahagaze ibinyabiziga, imbuga yabyo ishashemo amabuye, igikuta cyabyo cyubakishije ibyatsi ndetse ifitemo n'ibiti n'indabo n'imikindo, amarembo yaho ariho icyapa.

Icyumba cy'ivuriro, kiryamyemo umuntu w'igitsina gabo, wambaye agapfukanwa, wambaye umupira w'ikigina, wambaye n'ikabutura, hejuru muri icyo cyumba hamanitsemo indabo, harimo indabo z'ubururu, ndetse n'ururabo rw'umuhondo.

Inyubako y'ivuriro, imbere hari intebe ndende z'imbaho, yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umuhondo ndetse igisenge hariho irangi ry'umweru. Imbere hari umuntu w'igitsina gabo uri kuhatambuka.

Icyumba cyo kwa muganga, gifite amatara yaka ya kizungu, kirimo ibitanda baryamishaho abarwayi, imbere hari umuntu ugaragara ko ari kugenda, wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa. Hirya hari uwundi muntu, uhagaze wambaye ipantaro y'umukara.

Inyubako igaragara ko ifite amagorofa abiri, ni ndende, imbere handitse amagambo yandikishijwe inyuguti z'umuhondo, handitsweho ko ari ibitaro by'akarere ka Shyira bifite amadirishya y'ibirahuri.

Icyapa cyanditseho amagambo ya Minisiteri y'ubuzima cyometse ku nyubako nini ifite ibaraza rihagazeho abantu, imbere y'iyo nyubako hari imbuga ihagazeho ibinyabiziga.

Icyumba kigaragara nk'ishuri, giteraniyemo abantu benshi bakuze, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, imbere y'ikibaho, hometseho icyapa, iruhande rw'icyapa, hicaye abantu bagaragara nk'abari kuyobora inama.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri, umwe araryamye ntagaragara neza, aryamye agaramye. Iruhande rwe hari umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru, ufite imisatsi ifunzeho agafungishasho, afite amaboko ari gukora mu gituza cya wa muntu uryamye.

Umwana wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ari gusunika ikinyamitende cy'abafite ubumuga, hicayeho umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere yaho hari umugabo wambaye umupira w'umweru.

Icyumba kinini kigaragara nk'ububiko bw'imiti, harimo utubati dukoze mu byuma, hirya hateretsemo uducupa tubiri dupfundikije imifuniko y'umutuku, harimo udukarito dutoya, ari utw'icyatsi, ari utw'umweru..

Icyumba kigaragara nk'ikiri mu ivuriro, kirimo agatanda gato gakozwe mu byuma, kirimo itara ryaka rya kizungu, gifite igikuta kiriho agakinisho k'abana, kari mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo.

Umwana w'uruhinja w'inzobe uri ku munzani upima ibiro, imbere ye hahagaze umuntu w'igitsina gore, wambaye ishati y'umweru ufite umusatsi w'umukara, hirya yaho hari uwundi mugore ufite umusatsi ufunze inyuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bifite insinga zicometse, hari umuntu uryamye ku ruhande wambaye imyenda y'umweru, uryamye mu mashuka y'umweru, ari guseka, ari kugaragaza amenyo. Kuri ibyo byuma bicometse harimo udutara twaka twi'cyatsi.

Inyubako ndende y'amagorofa, uruhande rwo hirya igeretse gatatu, ifite imbuga nini, hahagaze abantu kuri iyo mbuga ndetse hahagaze n'ibinyabiziga, ku marembo yayo hari ibyapa byometse ku marembo.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga, kirimo agatanda gakozwe mu cyuma gafashe amashuka y'umweru, muri icyo cyumba imbere harimo ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini kigaragara nk'icyo kwa muganga, kirimo ibitanda by'ibyuma, gifite amadirishya y'ibirahure gifite amatarac yari ari hejuru ya kizungu, kirimo abantu kirimo n'inzitiramibu imanitse.

Icyapa kimanitse ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma bishinze n'ibitambitse, urebeye muri ibyo byuma urabona inyubako igaragara nk'ibitaro, haragaragara n'ubusitani buteyemo ibyatsi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, izengurutswe n'indabo, iruhande rwaho hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'indabo nziza cyane, harimo indabo z'umutuku n'izindi z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umuntu w'igitsina gore, uryamye agaramye, akenye igitenge kugera mu mabere, ikindi agiteze mu mutwe, aragaragara nk'urwaye, imbere ye hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru, uri kumukoraho.

Ubusitani buteyemo ibyatsi, buhagazemo Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, hirya hari ibiti harimo n'igiti kimwe kirekire gifite amababi menshi, ku ruhande hari inyubako igaragara nk'igorofa yubatse neza.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gabo, wambaye itaburiya, wambaye n'agapfukamunwa, haragaragara umusaya uriho ugutwi n'umumusatsi mukeya ku mutwe, ari gukanda ibijyanye n'ibyuma by'ikoranabuhanga byo kwa muganga.

Inzu nini y'igorofa ifite amadirishya y'ibirahure yubakishije amatafari ahiye, imbere haparitse ibinyabiziga hari n'umutaka uteye imbere y'iyo nzu.

Inyubako ifite imbuga nziza isize irangi ry’umuhondo imbere, hejuru ifite amabati y’ubururu, yanditseho amagambo ko ari ikigo nderabuzima cya Shagasha, byanditse mu magambo y’ubururu, imbere hicaye abantu ku ibaraza ryayo.

Amarembo manini ariho umuhanda w'ibitaka, ugenda ukagera ku mazu ari hirya yubakishije amatafari ahiye, kuri ayo marembo hari icyapa kinini, cyanditsweho amagambo ko ari ibitaro bya Kabgayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi ndetse kirimo n'ibitanda, hari umurwayi uryamye hirya ugaragara nk'uwegutse hari n'uwicaye iruhande rwe hari umuganga uhagaze wambaye itaburiya, ari kumushiraho icyumvirizo, uwo muganga yambaye isaha.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitambaro bimanitse bigaburamo icyumba kabiri byitwa amarido, kiryamwemo n'umuntu uryamye agaramye, wiyorosha ikiringiti, harimo ibitanda bikoze mu byuma.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga, harimo agatebe gafite amapine, harimo udutanda baryamishaho abarwayi, harimo utw'umuhondo, harimo n'utundi dukoresho dutandukanye.

Icyumba kinini kigaragara nk'icy'ivuriro, hari abantu benshi batandukanye, harimo abambaye amasarubeti y'akazi y'ubururu, hari n'abambaye amatabuririya y'ubururu, batonze umurongo, imbere habanjije uri mu kinyabiziga cy'abafite ubumuga acyicayemo.

Umuntu w'igitsina gabo, uhagaze uri guseka, wambaye amataratara, wambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hari insina, imbere ye hagaze umuntu w'igitsina gore, wambaye ikanzu irimo amabara menshi, harimo n'ibara ry'ubururu.

Amashyamba menshi y'ibiti birebire, iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo ibendera ry'igihugu, ku ruhande hari abantu bari kuhaca bikoreye, imbere yaho hari akayira k'abanyamaguru, iruhande rw'ako kayira hari inzu igaragara nk'iy'amagorofa.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu, imbere handitseho amagambo yanditse mu nyuguti z'ubururu avuga mu Kinyarwanda ko ari inzu y'ababyeyi, imbere hasutamye abantu inyuma y'abasutamye hari abandi bahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga cyicawemo n'abantu babiri batagaragara igice cyo hejuru haragaragara amaboko, uw'imbere yambaye itaburiya afashe akaboko k'umuntu umwe, ari kumwambika igipimo gipima umuvuduko w'amaraso.

Irembo rinini rishinzweho ibyuma hepfo no haruguru, bifashe icyapa kiri hejuru cyanditseho amagambo yandikishijweho umweru, handitse ko ari ibitaro bya Kabgayi, hirya hari ibiti birebire.

Inyubako ndende ishasheho utubuye ku mbuga yayo, imbere hahagaze abantu ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, hejuru yanditseho amagambo mu nyuguti z'ubururu ko ari ikigo nderabuzima cya Gishweru, hejuru ifite amatafari ahiye, yubakishije n'amabati.

Icyumba cyo kwa muganga kiragaragaramo abaganga bambaye amatabuririya, kigaragaramo ameza y'umweru ateretseho icupa rifite umufuniko w'icyatsi ndetse ayo meza ateretseho n'ibikoresho bakoresha bitandukanye.

Ubusitani bwiza buteyemo indabo burimo utuyira dushinzemo itara rya kizungu hirya y'aho hari inzu igaragara nk'ibitaro imbere y'iyo nzu hari utuyira tw'abanyamaguru dusakaye.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga gifite amadirishya y'ibirahure, hejuru hari amatara ya kizungu acanye, gifite agakoresho kerekana ibikorerwa aho ngaho byose gakoreshwa n'amashanyarazi ndetse n'agatanga umuyaga aho ngaho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amatara ya kizungu ari kwaka, kirimo ibitanda bikoze mu byuma, kirimo intebe z'umukara harimo abantu bambaye amasarubeti y'umweru apfutse umubiri wose no mu mutwe bambaye agapfukamunwa haragaragara amaso yonyine.

inyubako yanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru igaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, isize irangi ry'umweru, imbere hari indabo, hari n'ibiti bihateye.

Icyumba kinini gikorerwamo inama, hejuru hari amatara ya kizungu, harimo intebe z'umukara nyinshi zizingwa, hateyemo ameza afite indangururamajwi, imbere hari ameza y'umweru agaragara neza cyane.

Inyubako ndende igaragara nk'ivuriro ifite ibaraza riri kugenderaho abantu, imbere ifite ubusitani buteyemo igiti kinini, harimo n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako ifite umuryango munini usize irangi ry'umuhondo, ufite n'ibirahure, hejuru hari amagambo yanditse mu cyongereza, ugenekereje ni aho bagurisha imiti i Kanombe kuri Media Sol.

Icyumba kimanitsemo ifoto itagaragara neza, harimo ameza ateretsweho mudasobwa, ku mpande y'ameza hari intebe ikozwe mu rubaho, hari n'akabati gakozwe mu mbaho gateretsweho amacupa agaragara ko ari umuti.

Inyubako y'igorofa isize amarangi y'umweru, ifite amadirishya yubakishije ibyuma n'ibirahure, ifite icyapa cyanditseho ko ari inzu y'ababyeyi n'impinja.

Abantu b'igitsina gore n'abi'gitsina gabo bari mu busitani buteyemo ibyatsi ndetse n'indabo iruhande rw'ubusitani hari inyubako nyinshi zigaragara nk'ibitaro muri izo nyubako hateye kandi igiti kirekire gifite amababi.

Icyumba cyo kwa muganga kiragaragaramo udutanda tw'icyuma turyamyeho n'abantu bagaragara ko ari abarwayi, hari abambaye agapfukamunwa bagaragara nk'abaganga tw'ubururu, hari n'abarwayi bambaye udupfukamunwa tw'umukara.

Amarembo manini yubakiye, asakaye, hejuru y'ayo marembo handitse amagambo yanditswe mu nyuguti z'umutuku ndetse ari ku cyapa gisize irangi ry'umweru, ayo magambo ari mu cyongereza, ugenekereje mu kinyarwanda ni ikigo nderabuzima cya Kigina.

Imbuga yicaweho n'abantu babiri, uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo. Uw'igitsina gore yambaye ikanzu idoze mu gitenge, uw'igitsina gabo yambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru, afite icyumvirizo mu ijosi, ari kureba uwo w'igitsina gore ugaragara nk'umuntu ukuze, hepfo hari insina nyinshi zigaragara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuntu w'igitsina gore uteruraye mwana, iruhande rwe hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye ingofero yo kwa muganga y'ubururu ndetse yambaye n'agapfukamunwa, yunamye iruhande rw'uwo mwana, ari kumuvura.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga gusa, kirimo amatara acanye ya kizungu, harimo ameza ateretseho amacupa y'imiti, harimo n'ibindi bikoresho, harimo n'udutebe, harimo abantu b'abaganga batwicayeho bambaye amatabuya y'umweru, hari n'abandi bari kugenda bambaye amapantaro y'umukara n'inkweto zifunze.

Ubusitani bwiza buteyemo ibiti by'indabo, burimo utuyira tw'abanyamaguru dushashemo amatafari yakozwe mu mucanga, hirya hari inyubako, haragaragara nk'ibitaro.

Ivuriro ry'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, riteyeho ibiti imbere, ryubatse bya kijyambere, rifite amabati y'ubururu, imbere harimo umugore uhetse umwana uri kumwe n'abantu benshi baje.

Inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, imbere byandikishijeho ibara ry'umweru, isize amarangi y'umweru, imbere ifite, indabo harimo indabo zimaze kuba umuhondo, harimo n'indabo z'icyatsi kibisi, hirya hari igiti.

Icyumba cyo kwa muganga, igikuta cy'imbere gisize irangi ry'umweru, hamanitsemo isaha y'urushinge, ku kindi gikuta gisize irangi ry'ubururu, harimo udutanda baryamishaho abarwayi, harimo intebe, harimo imashini bakoresha bari kuvura abantu.

Amazu menshi yegeranye, hagaragara nko kwa muganga, imbere yayo hari kugenda abantu, afite ubusitani bwiza, muri ubwo busitani hateyemo igiti kinini gifite amashami, atanga igicucu.

Umurima munini uteyemo ibyatsi byinshi, hirya yaho hari amazu agaragara nk'amagorofa menshi, afite amadirishya y'ibirahure n'inzugi z'ibirahure, asize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, ndetse yubakishije n'amatafari ahiye.

Inzu igaragara nk'ivuriro, imbere ifite amadirishya, akozwe mu byuma n'ibirahure, n'urugi rukozwe mu cyuma n'ibirahure, ifite amabati y'ubururu, ikikijwe n'ibiti ku mpande.

Icyumba giteraniyemo abantu, bicaye ku ntebe za purasitike z'icyatsi, bambaye udupira tw'umuhondo, harimo n'abambaye udupira tw'icyatsi, bicaye bareba imbere, iruhande rwabo hateretse uducupa tw'amazi.

Inyubako nziza kandi ndende, imbere yaho hahagaze abantu b'igitsina gore n'ab'igitsina gabo. Hejuru handitse amagambo agaragaza ko ari inyubako y'Ibitaro bya Rwamagana imbere haragaragara amakoma.

Hari umuntu w'igitsina gore, uri mu cyumba kigaragara nk'ahavukira abana cyangwa se harwarira abana b'impinja, yambaye ingofero y'umweru, yambaye imyenda y'icyatsi kibisi, afashe akaboko k'agahinja mu ntoki ze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi, harimo za mudasobwa, harimo amamashini bashiraho abarwayi, hariho ameza, harimo intebe, harimo n'udutanda baryamishaho abarwayi.

Inzira nini yubatsemo amatafari akozwe mu mucanga, hari iyo hepfo hari n'iyo haruguru harimo abantu bari kugenda, haruguru yaho no hepfo hari ubusitani bwiza cyane buteyemo n'ibiti birebire.

Inyubako ebyiri zegeranye zubakishije amatafari ahiye. Imwe iragaragara imiryango n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu. Iyindi ifite inkingi imbere ziri ku ibaraza zisize irangi ry'umweru. Imbere hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'indabo n'ibiti birebire.

Inyubako ifite igice cyo hejuru gisize irangi ry'umweru handitswemo amagambo yandikishije ibara ry'umukara, ayo magambo ari mu kinyarwanda, avuga ko ari ikigo nderabuzima cya Rwerere, munsi yubakishije amatafari ahiye, imbere ifite ubusitani buteyemo indabo n'ibyatsi, imbere yaho hari imbuga.

Icyumba kinini gifite igikuta kimwe gisize irangi ry'umuhondo, hicayemo abantu benshi, bicaye begereye ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa, turimo amazi dupfundikiye.

Umuntu wambaye itaburiya, wambaye n'uturindantoki tuzwi nka ga, afite urushinge mu ntoki, akaboko kamwe gakoze ku wundi muntu, ari kumutera urushinge ku rutugu, uwo muntu aragaragara ko afite agasatsi gake n'ugutwi kumwe.

Icyumba kinini cy'ivuriro kirimo ameza, kirimo n'ibitanda by'abarwayi bihasheho amashuka y'umweru n'ubururu, gifite amatara hejuru yaka ya kizungu.

Umuntu ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, apfukamishije ivi hasi, yambaye isogisi ry'umweru n'inkweto zifunze, irindi vi arizengurukishijeho ibiganza bye byombi.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, uducupa dupfundikiye, igitambaro kirimo umweru n'umutuku n'umusaraba w'umweru, inshinge, imikasi itandukanye, itoroshi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Amacupa abiri arimo amazi apfundikiye, afite imifuniko y'ubururu, iruhande hari umugozi ukoreshwa mu gupima, imbere yaho hari irongi rikase ndetse n'ikinyomoro gikase.

Umuntu w'igitsina gabo uri mu myitozo ngororamubiri, arahagaze ari kunywa amazi mu icupa ribonerana ry'umweru, haragaragara ugutwi, haragaragara akananwa, haragaragara amazuru n'ijosi, yambaye umupira w'amaboko maremare umwegereye w'umukara.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga, hamanitse ibitambaro bita amarido y'ubururu, hari umuntu wambaye agapfukamunwa wunamye ku muntu uryamye yubitsinda inda, ari kumukora ku mugongo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imeza iteretseho mudasobwa, imbere yayo hari umuganga wambaye igipimo mu ijosi kandi azamuye ukuboko ari kwambara agapfukamunwa, yambaye kandi n'uturindantoki twitwa ga.

Umuntu utagaragara igice cyo hasi isura yo hejuru nayo ntigaragara neza, gusa haragaragara ugutwi, izuru n'ukuboko kuzamuye gufashe icupa, yambaye umwenda urimo ibara ry'ubururu.

Ameza ateretsweho imbuto, imboga, amagi n'ibinyampeke biri mu gasorori. Mu mbuto harimo imineke, harimo imizabibu, harimo n'inkeri. Mu mboga hari ishu ry'umutuku, hari pavuro, hari karoti n'ibitunguru.

Umuntu wicaye yarambuye ukuguru kumwe, ukundi araguhina agufatishaho amaboko ye abiri, aragaragara nk'uri gukanda, hagaragara amano, haragaragara n'amaboko abiri agufashe.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore, ari mu myitozo ngororamubiri, ukuboko kumwe kurarambuye, arunamye, kuri gufata ku mano, ukundi kuboko kuri gufata ku ivi ryo kuri uko kuguru.

Umuntu uhagaze aragaragara igice cyo hagati, umutwe ntugaragara n'amaguru ntagaragara ariko yambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru, ari iruhande rw'uwicaye wambaye agapira k'umukara, ufite umugozi w'umuhondo mu ntoki.

Igipimo gipima uburebure bakunda kwita metero kiri iruhande rw'ikirahure kirimo umutobe w'imbuto, iruhande hari icunga risatuye, iruhande rw'icunga hari pome ijya gusa umuhondo n'iyindi irimo ibara ry'umutuku ndetse n'urusenda.

Umuntu ugaragara igice cyo hejuru n'ukuboko gufashe amazi mu icupa ry'icyatsi, haragaragara umunwa, biragaragara ko ari kunywa amazi, haragaragara amazuru, haragaragara ijisho rimwe ndetse n'impanga n'akananwa.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ntagaragara igice cyo hejuru ariko imiterere ye arasa nk'igitsina gabo, arasutamye arambuye akaguru kambaye inkweto ifunze, agakojejeho intoki na zo zirambuye, akandi kaboko gafashe hasi, akandi kaguru karasutamye yambaye isaha y'umweru ku kuboko.

Igikapu cy'umutuku gifite imashini z'umukara zifunguye, imbere mu gikapu harimo umunzani w'isaha, harimo igipimo cy'icyumvirizo, harimo imikasi y'ubwoko butandukanye, harimo igipimo gipima umuriro, harimo umukasi ufite ikirindi cy'umutuku.

Abantu babiri batagaragara neza isura yo hejuru, umwe aricaye undi arahagaze. Uhagaze yambaye agakabutura kagufi, karimo umweru n'umukara, bameze nk'abari mu myitozo ngororamubiri, uwicaye aratandagaraje azamuye ukuboko nk'uri kunywa amazi.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abantu babiri, umwe ntagaragara igice cyo hejuru, aha yambaye inkweto z'umukara zifunze, undi arasutamye ari hirya afite imisatsi miremire.

Ahantu hagaragara nk'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, hari umuntu uryamye ku gatanda k'umukara yubitse inda, areba imbere, amanuye akaboko hasi, hirya ye hari uwundi wambaye ingofero y'umukara.

Imyidagaduro myinshi itandukanye, ihuriwemo n'abantu benshi, abakuru n'abatoya, harimo abantu babiri bari gukina umupira w'amaguru, bambaye amasokisi y'umweru n'imipira y'ubururu.

Umuntu wicaye, ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, azamuye ukuboko, ari kunywa amazi, afashe terefone mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko, yambaye ipantaro imwegereye y'umukara.

Umuntu w'igitsina gore, ari mu myitozo ngororamubiri, arambuye amaboko, arambuye n'akaguru, amaboko ari kuyakoza ku kaguru karambuye, akandi kaguru karahinnye, yambaye inkweto z'umweru zifunze.

Umuntu w'igitsina gabo aragaragara igice cyo hejuru, aragaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, afashe icupa ry'ubururu ari kunywa amazi, afite ubwanwa aragaragaza ugutwi kumwe.

Icyumba kirimo umuntu w'igitsina gore wicaye ku ntebe ari kumwe n'umwana amufashe mu mutwe aramuraramishije ameze nk'uri kumumurika akoresheje akaboko kamwe akandi kamufashe mu mutwe, yambaye itaburiya irimo ubururu n'umweru.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore, ntagaragara isura yo mu maso, arambuye ukuguru, ukundi araguhinnye, yambaye inkweto zifunze z'umweru, amaboko abiri afashe ku kuguru kurambuye.

Icyumba kiri kwigishirizwamo ukuntu wafasha umuntu wahuye n'impanuka cyangwa se wahuye na we mu nzira arwaye, hari umuntu bari kwigishirizaho berekana, aryamye ku kiringiti, abahagaze bambaye amajire arimo umweru ndetse n'umusaraba w'umutuku.

Uburiri bushashe buriho imisego ibiri yicaweho n'umuntu w'igitsina gore, uzamuye amaboko nk'uri kwinanura wambaye ipantaro imwegereye cyane.

Umuntu utagaragara isura yo mu maso imiterere ye ni igitsina gore yambaye imyenda y'icyatsi kibisi arahagaze ukuguru kumwe arakuzamuye agufatishije amaboko abiri mu ivi hagaragara ko yambaye inkweto z'icyatsi kibisi zifite taro y'umweru.

Abantu babiri, umwe n'igitsina gore, undi n'igitsina gabo, bateranye umugongo igitsina gore yegamye ku mugongo w'uw'igitsina gabo, bafite amacupa mu kanwa bari kunywa amazi, biragaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri aricaye asobekeranije amaguru, imbere ye hateretse icupa rinini ry'ubururu ririmo amazi ukuboko kwe guteretse hasi arahengamye.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye imyenda y'umukara, uhagaze ahantu hari ibiti, uzamuye akaboko ari kunywa amazi mu icupa, ugaragara nkuri mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi bazengurutse ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo abafite icyapa kirekire ku ruhande, imbere mu kibuga harimo abantu bambaye imyenda y'umukara n'umweru, bambaye n'inkweto zifunze.

Umwana baryamishije ku musambi, umuntu wamuryamishije afite amaboko y'uruhu rwera kuko ntagaragara mu maso, bigaragara ko bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, harimo n'umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri. Kirimo uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo. Uw'igitsina gore arahagaze yambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi, uw'igitsina gabo aricaye agaragara ko afite akuma karemereye.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, ni igitsina gore, aricaye, arambuye amaboko kuyageza ku maguru, aragororotse neza, yambaye imyenda harimo ipantaro imwegereye y'icyatsi kibisi, ndetse n'ako hejuru nako nicyatsi kibisi, afite imisatsi myinshi igera mu mugongo.

Ikibuga giteraniyemo abana bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'umunani, bigaragara ko bishimye, barimo ibice bibiri hari igice kiri haruguru n'igice cyo hepfo, igice cyo hepfo gifite umupira mu ntoki.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore haragaragara igice cye cyo hejuru, azamuye ukuboko, afashe icupa ry'ubururu ari kunywa amazi, haragaragara umusaya uriho ugutwi haragaragara umunwa, hagaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba giteraniyemo abantu b'urubyiruko hari umwe muri bo uryamye hasi bigaragara yuko bari kwiga uko bakorera abantu ubutabazi bwihuse, hari abandi bari kubireba bahagaze bagaraga igice cyo hasi.

Abantu babiri begeranye bagaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri, baragaragara igice k'igihimba, bafite amaboko abiri aragaragara nk'umuzungu, yambaye ikoti rifite imashini imbere, undi afite akaboko kagaragaza ko ari umwirabura.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri, bari kwiruka bambaye amakabutura magufi ndetse n'imipira iciye amaboko bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bari kureba imbere, hirya yaho hagaragara igihuru, bari kwiruka ahantu hari ibihuru ndetse hirya hari n'imisozi miremire.

Icyumba kirimo ameza ateretseho ibikoresho byo kwa muganga, haragaragaramo umuntu wambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, aragaragara nk'igitsina gabo, afite ubwanwa uruhande rumwe nibwo bugaragara, haragaragara n'ugutwi kumwe.

Ikizingo kinini gifite ibara ry'ubururu hagati harimo igipapuro kizingiyeho, cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ushobora kukizirikisha ku kuboko cyangwa ku kuguru.

Mu cyumba cy'ivuriro hari umuntu w'igitsina gabo wicaye ku ntebe, imbere ye hateretse mudasobwa ari kuyirebamo areba amashusho arimo aritonze asa nk'uwunamye.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri aragaragara inyuma, aragaragara ko yambaye isaha ku kuboko azamuye amaboko arayasobekeranyije hejuru, ari mu myitozo ngororamubiri, aragaragara ugutwi n'umutwe w'inyuma wogoshesheje.

Umuntu w'igitsina gore afite imisatsi y'umukara, arunamye, afite akaboko kari mu mugongo, akandi kararambuye gafashe ku kaguru karambuye, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro imwegereye ndetse afite n'ibirenge nta nkweto zirimo.

Umuntu w'igitsina gore, uri mu myitozo ngororamubiri aricaye, ari kunywa amazi, aragaragara umusaya uriho umunwa, ugutwi n'ihena ndetse n'amaboko.

Umuntu w'igitsina gabo aragaragara igice cyo hejuru, umutwe ntugaragara haragaragara umunwa ugaragara ko ari kunywa amazi, azamuye ukuboko, yambaye umupira uciye amaboko umwegereye.

Umuntu utagaragara isura neza mu mumaso, imiterere ye imeze nk'iyi igitsina gabo, yambaye impeta ku kuboko ameze nkuri mu myitozo ngororamubiri aricaye afashe mu ivi.

Umuntu w'igitsina gabo uri mu myitozo ngororamubiri, arambuye ukuguru kwambaye inkweto ifunze, arambuye n'akaboko yifashe mu mayunguyungu amanuye akaguru, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.

Imbuto z'ubwoko butandukanye harimo inkeri, pome n'izindi zivanze n'ubunyobwa budatonoye, hirya y'aho hari ikirahure kirimo umutobe w'imbuto.

Umuntu ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, igice cyo hejuru ntikigaragara, ahinnye akaguru kamwe, akandi kararambuye, yambaye inkweto zifunze z'umutuku, yambaye ipantaro imwegereye y'umukara, imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Imbuto n'imboga bivanze, kuri izo mbuto n'imboga hateretsemo icupa wanywesha umutobe w'izo mbuto, cyangwa ukarinywesha amazi, handi muri izo mbuto harimo avoka, harimo pome n'izindi, ndetse mu mboga harimo ishu ry'ibibabi.

Umuntu w'igitsina gabo, uri mu myitozo ngororamubiri, aragaragara igice cye cyo hejuru, aragaragara umunwa gusa, igice cyo hasi aragaragara ko yambaye inkweto zifunze, aragaragara nk'ugiye gutera ivi.

Umuntu w'igitsina gabo ugaragara igice cyo hejuru yakunje ukuboko kumwe arakuzamura afata icupa ari kwicunshumuriraho amazi yambaye umupira w'umukara arararamye arareba hejuru.

Umuntu uri kwiruka cyane bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto zifunze, iruhande rwe haragaragara ibintu yifashisha kugira ngo agire ubuzima bwiza, hari karoti, pome, imizabibu, amacunga ndetse n'amashu.

Ikinyamitende gikoze nk'intebe cyicaraho abantu batabasha kugenda barwaye cyangwa abafite ubumuga, gikoze mu byuma, gisize irangi ry'umutuku, gifite amapine ane y'umukara.

Ameza ateretseho ibyo kurya bitandukanye: hari amagi, hari imineke, hari inkeri, hari karoti, hari ishu ry'umutuku, hari pavuro n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kinini kigaragara nk'igikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho bitandukanye hejuru harimo itara rya kizungu riri kwaka hasi hari ibyuma bikoresha muri iyo myitozo.

Umuntu w'igitsina gore uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro imwegereye, azamuye amaboko, akaguru kamwe kararambuye akandi kameze nk'agapfukamye, iruhande rwe hari ikibumbano giteyemo ururabo ndetse hari n'icupa ry'amazi.

Abantu babiri batagaragara amasura, bambaye imipira y'ubururu n'amakabutura y'umukara, haragaragara umwe uryamye nk'uwavunitse mu ivi, baragaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko bakinaga umupira ufite ibara ry'umweru n'umukara.

Icyumba cy'ivuriro, kirimo abantu batandukanye, harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru, kirimo umuntu uryamye, urambuye ukuguru, ukundi kwambaye insimburangingo, aryamye ku mashuka y'ubururu.

Umuntu w'igitsina gabo, arahagaze, yambaye umupira w'amaboko magufi, afashe mu mayunguyungu, akandi kaboko karazamuye, ari kunywa amazi, aragaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri bari mucyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri umwe arasutamye azamuye amaboko, undi arahagaze yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, usutamye yambaye umupira w'umukara wanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru.

Umuntu ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri aragaragaza igice cy'imbere afashe akaboko ke agashyize mu gituza aragaragara ibere, aragaragara inkokora.

Agatanda gakozwe mu byuma gasize ibara ry'ubururu, gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri igihe hari umuntu wavunikiyemo cyangwa yagize ubundi burwayi ari gukora imyitozo.

Umuntu utagaragara neza isura yo mu maso arambuye ukuboko, ukundi gufashe mu nkokora yuko kurambuye, yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye n'umwenda wo hasi w'ubururu, aragaragara nk'uwavunitse..

Abantu babiri batagaragara igice cyo hejuru, umwe aricaye, undi ara ahagaze, uhagaze yambaye itaburiya, afashe ukuboko k'uwicaye ugaragara nk'urwaye, wambaye ishati y'ubururu.

Agatanda gakozwe mu byuma kifashishwa mu gutwara abarwayi bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri, gafite imigozi itatu ireguka y'umukara, hirya yaho hari abantu bambaye imyenda y'umutuku bafite akandi gatanda berekana uko gakoreshwa.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura imwegereye n'umupira by'umukara, arahagaze, akaguru kamwe kararambuye, karambuye ku biti bimeze nk'uruzitiro, ndetse arambuye n'ukuboko.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore, azamuye ukuboko aragaragara mu kwaha, asobekeranyije amaguru, aragaragara nk'umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, imbere ye ateretse agacupa gapfundikiye n'umufuniko w'icyuma.

Insimburangingo enye zigaragara ariko ibanza hari umuntu uyambaye, utagaragara igice cyo hejuru hagaragara amaboko, iz'imbere eshatu ntago hagaragara uzambaye, iya mbere yambaye urukweto rw'umukara.

Amaboko abiri y'abantu babiri buri muntu ukuboko kwe, umwe afashe uburoso bwoza amenyo undi afashe umuti woza amenyo ushushanyijeho igikarubamba cyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ukuboko kumwe gufashe ikibabi kimwe kiri ku giti cy'isombe, hasi hari ibyatsi byumye, hirya hari ibindi bitandukanye, hirya y'ibiti hari inzu y'amatafari ahiye ndetse ifite n'amabati.

Ishyamba rifite ibiti birebire n'ibigufi bigaragara ko ari iby'ubwoko bumwe, hari amashami arambitse hasi, ahonze, hari n'ayumye, bifite amababi maremare n'amababi magufi.

Igikombe kibumbye mu ibumba gisize irangi ry'umweru, kirimo ibyatsi, ku ruhande hari irindi cupa rinini ry'ikirahure ribonerana naryo ririmo ibyatsi bipfundikije umufuniko w'igiti, ku ruhande hari utundi ducupa dutukura harimo udupfundikije umufuniko w'igiti.

Akajerekani k'umweru gasa nka gafite litiro eshatu, karapfundikiye kanditseho amagambo mu nyuguti z'umutuku, gashushanyijeho n'inuma, karasa nk'aho kajyamo umuti cyangwa se karimo umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo.

Uduce makumyabiri na kamwe tw'ibimera bitandukanye, buri gace karimo ikimera gitandukanye n'ikindi, munsi ya buri gace kandi handitse amagambo yanditse mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari uko icyo kimera kitwa kandi harimo ibifite indabo z'umuhondo, iz'umutuku n'izindi zitandukanye.

Imirima ibiri uwo hepfo y'akayira n'uowo haruguru y'akayira, uwo haruguru y'akayira uragaragara ko bari kuwubagaramo urimo abantu, uwo hepfo y'akayira ugaragara nk'uwarangije kubagarirwa imyaka iwurimo.

Isashe y'umuhondo ibonerana, irimo ibyatsi byumye bikoreshwa mu buvuzi gakondo. Inyuma hometseho ikirango kigaragaza ko ari ibyatsi by'icyatsi kibisi ndetse handitseho ko bifite amagarama ijana.

Ibiganza bibiri biri ku meza, kimwe kirimo imbuto zigaragara nk'iziri kumera, kuri iyo meza hateretse udusorori twinshi duto n'utunini turimo ingeri z'ibiti brimo imbuto zitandukanye, harimo imbuto z'umuhondo harimo n'izumye.

Igihuru kirimo ibyatsi byinshi, hari ibyatsi biri kuzamuka by'ibitoto, harimo ibyumye biryamye hasi, harimo n'ibifite amababi y'umuhondo bigaragara ko bitaruma neza.

Ishami ry'igiti rigaragara ko ari ritoya, rifite amababi atanu hejuru, hasi rifite amababi abiri, hagati hari utubabi turi gushaka kuzamukamo, rikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Abantu bitwa bamukerarugendo bari mu kibaya, hejuru hari umusozi uteyeho ibyatsi no hirya hari umusozi uteyeho ibyatsi, barareba imbere ahantu hari umusozi na none uri kumanukaho amazi meza y'urubogobogo, bari kugenda bahagana.

Udukarito dutatu tugaragara nk'utubikwamo imiti cyangwa turimo imiti, hirya hari ibara ry'ubururu natwo dufite amabara atandukanye harimo umweru, ubururu, umutuku...

Amakoma arambitse hasi, ariho agasekuru karimo umuhini, harimo ibyatsi byumye bizinze, hariho n'ibindi biti bige byumye bicagaguye nk'ingeri, ibyo bintu byose babyifashisha mu buvuzi gakondo.

Icyatsi cyifashishwa mu buvuzi gakondo kitwa igikakarubamba, gishushanyije ku ducupa dutandukanye, hari icupa ry'umuhondo, hari icupa ry'umweru, hari n'amagambo agiye yanditse kuri utwo ducupa.

Icyapa kiriho igitunguru gikasemo kabiri n'indimu ikasemo kabiri, iruhande rwaho hateretse icupa ririmo amavuta ya elayo ripfundikiye hejuru handitseho amagambo yandikishijwe n'ibara ry'ubururu ngo ''baho neza tv''.

Igihuru kirimo ibyatsi birimo amoko menshi: harimo ibitoshye, harimo ibigaragara ko bishaje, harimo ibifite indabo z'umuhondo ndetse harimo n'ibizamuye hejuru, bifite amababi maremare.

Uduce ABCD. A: ikimera kizamuye gifite amababi y'icyatsi kibisi. B: agati gatoya gafite amababi. C: ibinyobwa bidatonoye iruhande hari ibitonoye. D: ibitoki bihonze byenda kuba imineke.

Icupa ripfundikiye ry'umweru, rigaragara nk'iry'imiti, riteretse ku isahani igaramye y'umweru, iriho amacunga atonoye atariho ibishishwa, n'ayandi, asatuye agaragaraho ibishishwa.

Imbuto z'ubwoko butandukanye harimo amaronji y'icyatsi, harimo n'amaronji y'umuhondo akase, harimo na gaperi, ku ruhande hari ibibabi by'icyatsi.

Amacupa menshi atandukanye apfundikiwe n'imifuniko y'umutuku, umuhondo arimo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Ibihuru byinshi birimo umuntu utagaragara neza wambaye umwenda uriho umutuku umweru n'umukara, ari guca ibyatsi bimwe bifite mu ntoki bifite amababi maremare.

Amashami y'ibiti agaragara nk'ayatemwe, arambitse, afite amababi y'icyatsi, hariho n'ayahonze ndetse n'amababi yumye.

Akabati karimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, karimo amacupa maremare n'amagufi, harimo apfundikije imifuniko y'umutuku, iy'umuhondo ndetse n'amacupa asa nk'umweru arimo imiti igaragara mo imbere abonerana.

Imineke iteretse iruhande rw'udukarito dufunze turimo ibintu bitandukanye, iruhande rwaho na none hari inanasi ifite igiti gifite amababi yacyo y'icyatsi, hirya yaho hateretse igikombe gifunze gifite umufuniko w'umukara, hirya yaho na none hateretse indabo z'icyatsi kibisi zifite amababi y'icyatsi ndetse ni umuhondo indabo.

Amacupa ane yegeranye, iruhande rwayo hari indabo z'umuhondo, arapfundikiye, yometseho ibipapuro byanditseho amagambo.

Uduce tune turiho amashusho atandukanye, ishusho ya mbere iragaragaraho umuntu ufite intoki ufashe icyatsi cyumye, ishusho ya kabiri iragaragaraho abantu bari mu ishyamba, harimo n'ibuye, ishusho ya gatatu iragaragaraho umuntu uhagaze iruhande rw'igiti gifite umubyimba munini, ishusho ya kane haragaragara umurima urimo ibyatsi biriho n'ururabo.

Igiti kibaje gifukuye bita akamamiro, kirimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye, iyo miti ikoze nk'ibinini.

Igihuru kirimo ibyatsi bitandukanye kandi byinshi, imbere hari igiti gifite amababi agaramye y'icyatsi kibisi, agaragara nk'umuravumba wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibikombe birindwi bigaragara nk'ibibumbwe mu ibumba, bitewemo ibyatsi bitandukanye, hari igiteyemo igikakarubamba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, munsi yabyo handitse amagambo, yandikishijwe ibara ry'umukara.

Umusozi urimo ibiti byinshi hariho n'igihuru hirya, harimo n'ibiti bisasiye, imbere hari igiti kigaragara nk'umuravumba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, gifite amababi menshi ndetse y'icyatsi, hasi hashashe ibindi byumye.

Igihuru kirimo ibyatsi byinshi, harimo ibishyashya ndetse n'ibyashaje byumye, harimo iby'icyatsi, harimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi, harimo igiti kirekire gisumba ibindi kigaragara nk'igikuze gifite n'amababi.

Mu duce dutandukanye turimo n'ibintu bitandukanye; agace ka mbere karimo indabo z'umuhondo, agace ka kabiri karimo indabo zivanze amabara, agace ka gatatu hari ibara rivanze ry'umutuku, agace ka kane karagaragaramo indabo z'umutuku gusa, agace ka gatanu karimo ibyatsi, agace ka gatandatu na ko karimo ibyatsi.

Icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'umweru, ryometseho ikirango cyanditseho amagambo, ku ruhande hari icyatsi cy'igikakarubamba bigaragara ko harimo umuti w'igikakarubamba wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Igihuru cyegeranye kirimo ibiti bitandukanye, harimo ibiti birebire harimo n'ibiti bigufi, harimo n'ibyatsi bifite amababi ay'icyatsi kibisi ndetse n'amababi ahonze, harimo n'indabo zigaragaramo harimo n'iz'umutuku.

Uducupa tungana, turinganiye, ducuritse, imifuniko iragana hasi, dufite imifuniko y'umweru, turiho amagambo yandikishijeho ibara ry'icyatsi kibisi, dushushanyijeho inuma.

Igiti kigufi giteye mu butaka kirasasiye, gifite amababi meza ndetse y'icyatsi kibisi, gifite n'udushami dutoya tugishashamikiyeho, amababi yacyo bayifashisha mu buvuzi gakondo.

Imiti iri mu macupa hari n'iri mu ducupa dutoya, hari iri mu masashe ndetse hari n'iri mu dukarito. Iyo miti yose yifashishwa mu buvuzi gakondo. Hari ishushanyijeho igikakarubamba cy'icyatsi kibisi.

Ikirago giteretseho ibikoresho bikoze mu ibumba, kuri ibyo bikoresho hariho uduti dutoduto, hariho imbuto zumye ndetse n'uduti twumye tureture, ibyo babyifashisha mu buvuzi gakondo ndetse haragaragara n'ikiganza kiri gusekura ku umuti w'ibyatsi.

Ibyatsi bitandukanye, bimwe biteye mu ibumba, bifite ubwoko butandukanye ni ibyifashishwa gukora imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo n'ibinini bituruka muri ibyo byatsi, hari n'ibirambitse hasi biri iruhande rw'agacupa kameneka, hari n'ibifite agacupa ka parasitike ariko kegereyeho ibinini.

Ameza ateretsweho imiti iri mu macupa apfundikiye neza, igaragara ko hari imiti ya Kizungu.

Imiti myinshi itandukanye, hari iri mu tubido, hari iri mu ducupa dutoya n'uducupa tunini, hari ishushanyijeho igikakarubamba ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tubiri turinganiye ducuritse, dupfundikije imifuniko y'umweru, dushushanyijeho icyatsi cy'igikakarubamba kiri mu ibara ry'icyatsi, handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ubusitani burimo ibiti n'indabo bitandukanye harimo indabo z'umutuku, harimo indabo zihonze, harimo amababi ahonze, harimo ibiti birebire bifite amashami menshi atandukanye.

Umuntu ugaragara intoki ze ebyiri, n'amano abiri, afite igipapuro kirimo ifu iseye igaragara nk'ikozwe mu byatsi, bikoreshwa mu buvuzi gakondo, hirya ye hari ibindi byatsi bibisi bidaseye.

Inkooko iriho agasekuru gafite umuhini, iriho kandi ibyatsi bitandukanye, hariho n'ibifite indabo, hateretseho agacupa gafunguye, ku ruhande rwayo hari ibyatsi biseye bigiye bikikije iyo nkooko.

Ishyamba ririmo ibihuru byinshi, harimo ibiti birebire, harimo n'ibyatsi, harimo igiti kizamuye gifite amababi maremare kigaragara nk'umuravumba, wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icyumba gihagazemo umuntu utagaragara isura yo hejuru yambaye umupira urimo ibara ry'icyatsi, afite igiti mu ntoki gifite amababi y'icyatsi kigaragara nk'umuhati, yambaye ipantaro y'umukara.

Umurima uhinze neza, ariko urimo ibiti bagiye basigasira bataranduye, ibyo biti bifite amababi meza, hari ikigaragara gifite amababi manini y'icyatsi kibisi, kiragaragara nk'umuravumba, wifashishwa mu buvuzi gakondo.

Indabo z'umuhondo n'icyatsi, iruhande hari igikombe gipfundikije umufuniko w'umukara, hirya hari inanasi, iruhande hari udukarito tw'imiti, imbere hari umuneke uhiye.

Umuntu uhagaze, ahagaze mu ndabo ziri mu busitani, akenyeye igitenge, haragaragara ukuboko kuri gusoroma ururabo, kuri izi ndabo kandi zifite amababi y'icyatsi kibisi.

Uducupa twinshi ducuritse tumwe ducuritse ku ngeri z'ibiti byumye dukase neza, turimo imiti y'igikakarubamba yifashishwa mu buvuzi gakondo ndetse inashushanyijeho.

Agacupa gacuritse kanditseho amagambo ari mu nyuguti z'icyatsi kibisi, ndetse handitseho n'ari mu nyuguti z'umukara, gashushanyijeho ikibabi cy'igikakarubamba, gapfundikije umufuniko w'umweru.

Ishyamba ririmo ibiti binini, harimo ibirebire n'ibigufi, ibigufi bifite amababi atendera, amababi maremare y'icyatsi harimo n'ayaguye ahonze ari hasi ndetse harimo n'ayumye.

Ibyatsi bigaragara nk'ibyumye n'ibitumye neza, bigaragara nk'ibikoreshwa mu buvuzi gakondo, bizengurutse isekuru iri kumwe n'umuhini nabyo bitaranoga neza.

Amacupa ane aringaniye angana, apfundikiye, ashushanyijeho ibimera bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, buri cupa rihagaze mu ibara ririhagarariye.

Uduce tune tugaragara, kamwe kameze nk'ari gutera icyatsi, akandi kariho icyatsi kizamuye, akandi kariho akaboko gafashe imbuto, akandi kariho akaboko gafashe ururabo...

Ikibabi kinini cy'icyatsi kibisi kigaragara nk'umuravumba bagikoresha mu buvuzi gakondo, giteretsweho ibinini bibonerana imbere harimo umuti w'icyatsi useye.

Uducupa tubiri dushushanyijeho igikakarubamba, dupfundikije imifuniko y'umweru, bakoresha bashyiramo imiti batunganije mu buvuzi gakondo n'igikakarubamba kirambitse kitaratunganywa.

Imiti ifunze mu dukarito no mu macupa, amacupa atandukanye, hariho amacupa ashushanyijeho igikakarubamba, iyo miti igaragara nk'iyifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uruzitiro ruzitije imbariro ndetse n'ibiti byumye, ku ruhande hari igiti cyashibutseho mu biri ku ruzitiro gifite amababi maremare n'udushami, ayo mababi arasa icyatsi ni ibitontome, biragaragara yuko biri ahantu ku mbuga.

Igiti gifite amababi y'icyatsi kibisi meza, ayo mababi bayifashisha mu kuvura bya gakondo, naho icyo giti na cyo kikitwa, umuravumba.